Ahantu hateraniye abantu benshi cyane, bigaragara ko habereye impanuka; hari abaganga ndetse hari undi muntu uryamye ku gatanda bapfutse, ndetse abaganga nabo bipfutse mu maso, bambaye imyenda y'umuhondo hari n'abandi bantu bashungereye, ikindi kandi na none hari imbangukiragutabara ko gutwara abo barwayi.

Inyubako nini cyane, iri mu marangi y'umweru hari abantu bicaye, abandi barahagaze, gusa ni inyubako ikoreramo serivisi z'ubuvunzi, aho buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, aza akamufasha kandi akabasha gukira neza.

Akantu gushushanyije umubyeyi uryamye mu nzitiramibu hari n'umuntu uri gukora amasuku, cyanditseho kandi ko kwirinda no kwivuza malariya ari ku mubyeyi umutwite kandi handitseho ko umubyeyi utwite n'uwonsa malariya wibuka kuryama burigihe mu nzitiramibu ikoranye umuti bibungabunga ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite.

Ikibuga kinini cyane cyateraniyemo abana ndetse n'ababyeyi by'umwihariko ahicaye abana n'abagore, abana barimo bararya ndetse abandi bantu babahagaze imbere bari kubagaburira kugira ngo babarinde igwingira batazagwingira.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino, harimo urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, bamwe baricaye abandi barahagaze, bamanitse amaboko bigaragara ko bari gufata amashusho kugira ngo babashe kuyageza kubamutumye.

Abakora cyane kwiga nkubucuruzi kgita ibintu tutandukanye amabokoboko yose kubakiriho umuturage buje urwa ahitamota cyane cyane kabu cyane ukabasha kumufasha miti cyane nanone biri mu bikorwa muka ndetse biani.

Inyubako nini cyane ikorerwa mu bucuruzi bw'imiti, harimo imiti y'ubwoko bwose hari n'iyiri mu bicupa ndetse n'iri mu bikarito umurwayi wese ubashije kuza ashaka umuti barawumuha kandi ukabasha kumufasha neza.

Inyubako nziza cyane, ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, inzu yubakishije amarangi y'ubururu, hari umugore uhetse umwana, ufite n'akandi kana, ku ruhande ari kugakurura, barimo barajya kwivuza kugira ngo muganga bashe kureba ikibazo bafite icyo aricyo.